Umukobwa wambaye umupira w'ubururu n'umweru, afite umusatsi mwinshi, yambaye n'gofero. Afite mu ntoki amafaranga n'urupapuro, imbere ye hari imashini yo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Urubyiruko ruhagaze mu muhanda rufite telefone bari kuzikoresha n'udupapuro dusa ubururu mu ntoki, umukobwa afite agacupa k'amazi inyuma hari igitambaro gisa ubururu cyanditseho n'amagambo y'umweru n'umuhondo.

Icyapa kiriho ibirango byinshi by'amakampani atandukanye hariho MTN, Airtel, Tigo, amabanki ndetse n'Irembo, Rwanda Revenue n'izindi.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo urimo ibirango bya kampani ya MTN, imbere ye hari umukecuru uri kureba ukuntu ari gukoresha telefone n'iyindi imurambitse imbere, impande haparitse igare.

Abagore bambaye ibitenge bisa bamwe bafite amasuka bari guhinga mu murima urimo ibirayi. Inyuma yabo hari inzu isakaje ibati ikikijwe n'urutoki.

Umugabo uhagaze wambaye umupira usa umukara, impande ye hari abantu bari kumubaza ibibazo bamufata n'amajwi bamutunze amatelefone na kamera, impande ye hari abantu bari gutambuka ndetse n'ubusitani bw'indabyo, inyuma haparitse imodoka.

Ameza n'intebe biteguye, biriho ibitambaro mu mabara y'umutuku, icyatsi n'umweru, hejuru hari amatara yaka ndetse n'igisenge. Hasi hari ibiti ndetse n'inyubako.

Udukarito turimo imiti yica imibu, hashushanyijeho agacupa gasa umweru n'umutuku, amagambo asa umweru n'umukara ndetse ikarito isa ubururu n'umuhondo hejuru.

Amavuta yo guteka ateretse ahantu hamwe mu bipimo bitandukanye, utujerekani rwa litiro eshanu, litiro eshatu ndetse na litiro imwe, bifite imipfundikizo iri mu mabara atandukanye.

Amacupa afunze mu ikarito asa umutuku ashushanyijeho umukobwa ufite imisatsi miremire, handitseho n'amagambo y'umweru ku gipapuro cyometseho.

Abapadiri batatu bambaye amakanzu y'umweru bahagararanye n'abazungu babiri n'abandi bagabo bambaye amakositimu, bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye y'urusengero.

Inyubako y'urusengero runini yubakishije amatafari ahiye, hasizeho irangi ry'mweru. Imbere yaho hari ibiti ndetse n'abantu batonze umurongo.

Umugore wambaye amadarubindi n'isaha ku kuboko ndetse n'itaburiya isa umweru, afashe ku gutwi, umwana umuri impande ari kumwe n'umubyeyi we, imbere yabo hateretse ameza.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye, bambaye amakanzu y'umweru abandi imyenda itandukanye, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati n'amadirishya menshi.

Abantu bari mu mahema asa umweru, bamwe bari kuvuza ingoma, abandi bari kuririmba ndetse no kubyina, bambaye amakanzu ari mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari ibiti.

Icyumba cya hoteri kirimo imitako itandukanye, intebe n'ameza byo kwicaraho ndetse n'amayesacariye yo kuzamuka hejuru, amatara ari kwaka.

Inyubako ndende zisize irangi ry'umweru, hejuru hamanitse imirasire y'izuba, imbere yayo haparitse imodoka eshatu ndetse hakikijwe n'ibiti.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe, yambaye ishati y'umweru, yikoreye agataro hejuru hariho imbuto z'amaronji, inyuma ye hari akajerekani kamanitse ku rukuta rw'inzu ndetse n'umuntu wambaye kasike impande ye.

Isoko ririmo imyenda n'ibikoresho by'abana birambitse hasi kuri shitingi n'iyindi myenda n'ibikapu bimanitse ku biti, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Abagabo babiri bahagaze umwe afite umunzani uri ku giti, agiye gupima umufuka munini uremereye usa umweru harimo ibintu byinshi, inyuma yabo hari amagare.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye n'igare ripakiyeho inyanya ndetse n'ibitoki, inyuma imyenda imanitse ndetse n'abacuruzi n'abaguzi.

Icyumba cya hoteli gifite amadirishya menshi y'ibirahure, mo imbere harimo imitako itandukanye ndetse n'amatara, intebe n'ameza biteguye.

Moto iri mu muhanda munini wa kaburimbo itwaye umubyeyi uhetse umwana, impande hari umurima munini urimo ibiti by'amoko atandukanye n'insinga z'amashanyarazi zinyura mu kirere.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda munini wa kaburimbo, imbere hari urujya n'uruza rw'abantu, ubwoko bw'ibiti buhakikije ndetse n'ubusitani bw'indabo n'amazu yo guturamo.